Porisi zigira akamaro kenshi cyane, zifasha abaturage kurengerwa n'uburenganzira bwabo, zifasha abagenzi kudahohoterwa, ndetse zifasha kubahiriza amategeko y'umuhanda ku batwara ibinyabiziga.

Umutekano wo mu Rwanda ucunzwe neza, ucungwa n'abaporisi, ucungwa n'abasirikare, ucungwa n'abadaso, kandi nta munyarwanda uhohoterwa, n'ugira ikibazo wese, izo nzego z'umutekano zimufasha kugikemura.

Abapolisi bacunga umutekano wo mu gihugu n'uwo mu muhanda. Iyo modoka ifite umuvuduko wo hejuru, barayihagarikaga bakayica amafaranga, batuma abantu badakora impanuka ngo abantu bapfe cyangwa bakomereka bajye mu bitaro. Abapolisi batuma umutekano wo mu gihugu ugenda neza.

Ba daso bafasha mu gucunga umutekano w'abaturage, bakorera ku tugari, bakorera ku mirenge, bakorera ku turere, kandi bakora kandi n'imyitozo ibafasha kunoza akazi kabo neza.

Kamera zo ku muhanda zifasha mu gucunga umutekano, zifasha abatwara imodoka kugabanya umuvuduko, zifasha abatwaye moto na bo na bakagenda ku muvuduko uringaniye, bityo bigafasha kugabanya impanuka.

Umutekano w'u Rwanda ucunzwe neza abapolisi bacunga abagenzi b'amaguru, bacunga ibinyabiziga ibyo binyabiziga habamo imodoka, habamo moto kugira ngo babirinde gukora impanuka zitandukanye.

Abasirikari barinda igihugu cyacu kikabamo umutekano, n'imipaka z'igihugu kugira ngo abagizi ba nabi n'imitwe zitwaje intwaro zitakinjiramo zikaduhunngayiriza umutekano, tukabaho mu mudendezo.

Inkongi y'umuriro iyo yafashe ahantu abapolisi bazana, kizimyamoto, bakawuzimya, ibikorwa bigakomeza neza nta kibazo, n'ibyagritse barabisana ibintu bikagenda neza.

Abapolisi bafasha abanyarwanda mu kwicungira umutekano. Bacunga umutekano wo mu muhanda, bigisha abaturage kwibera amaso, bafasha mu bikorwa byose bijyana no kubungabunga amahoro.

Abantu baba bari mu nama, bungurana kubitekerezo, bafatiraga ibyemezo hamwe, bahana impanuro, ziturutse ku bayobozi babo, basuwe'inzego zitandukanye, zirimo n'iz'umutekano.

Ibikoresho gakondo habamo ib'ibindi, habamo ibicuma, habamo imivure, bayibazagabbazaga mu mivumu, zifashishwaga bataramo inzoga n'ibindi.

Izi mikibuzozo zicuruzwa mu masako zigurwaga amafaranga. Abagore n'abakobwa bazifashisha mu gukora amasuku mu rugo, bazikubuza ku muhanda, bazikubuza mu tuyira, bazikubuza mu isoko, bazikubuzaa mu mbuga z'amahoteri.

Mu bahanzi gakondo bavuzaga inanga, bakomaga ingoma za kinyarwanda, bacurangaga umuduri, bagacurangaga iningiri, umuduri wabaga ukozwe mu ducuma duhambiriye ku giti.

Kubyina ni byiza cyane, bisusurutsa ababikora babyina imishayayo, babyina imiharimizo, babyinira abageni babyina mu nama, binjiza amafaranga atandukanye akabatunga.

Mu muco habamo imbyino zitandukanye: gushayaya, babyina intore, bavuzaingoma, bakoma amashyi, bararirimba bakabyina, baritakuma n'ibindi byose binogeye ijisho.

Inkono za kinyarwanda bazikora mu ibumba. Bazitekamo ibijumba, bazipigiramo agashogoro, bazitekamo n'inyama. ziryoshya ibiryo bya kinyarwanda.

Ibikoresho gakondo byarubahwaga, byakoreshwaga mu kubika neza amata, byakoreshwaga mu gucunda, ibyo bikoresho habagamo nk'ibicuba, habagamo ibyansi, n'ibindi.

Igicuma kirimo umuheha uwo banywesha, bagikoresha bari kunywa inzoga cyangwa umusururu, cyari igikoresho cyo mu muco wa kinyarwanda, bagikoresha bari kunywa, n'ubungubu baracyagikoresha, no mu misango y'ubukwe bwa kinyarwanda baragikoresha.

Inka z'inyambo na zo zisobanuye byinshi ku muco nyarwanda. Bazifashisha mu iserukiramuco, bazifashisha bari kwigisha amateka, bazifashisha mu bintu bitandukanye. Bazifashisha mu birori binyuranye.

Mu gucuranga rero habamo giitari, haba nibigezweho nka za piano, habamo ninanga bacuranga imirya yazo, mu ndirimbo gakondo, tugira n'abagore mu Rwanda, bakirigita inanga neza.

Ibikoresho byo mu rugo byifashishwa mu kazi ka buri munsi, harimo ibitebo, harimo indobo, harimo amabase, ariko habamo n'ibisekuru, bibazwa mu muvumu, basekuriramo imyumbati batekamo ubugari.

Ububoshyi habamo ububoshyi bw'ibitebo bifashisha mu gusarura imyaka, hakaba intara n'inkoko zo kugosoza imyaka, baboha ibiseke, n'undi imitako itandukanye.

Imizinga bawumanika mu giti, hakazajyamo inzuki zigakora ubuki bwamara kuba bwinshi, bakabuhakura bakajya kubugurisha cyangwa bakabujyana no mu rugo bakajya baraburya, cyangwa barabushyira mu gikoma no mu cyayi, ubuki ni bwiza cyane buvura n'indwara zitandukanye.

Umuco wo kubyina ni mwiza kuko ususurutsa abanyarwanda, ususurutsa abanyamahanga, ususurutsa abantu bawureba batandukanye, ndetse n' abawukora na bo bagubwa neza mu mubiri ubatera kwishima.

Ku byina biteza imbere ababikora, bibafasha gukundana n'abandi babyinnyi, bibinjiriza amafaranga menshi, akabafasha kwitunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibihingwa gakondo bahinga birimo kimbazi, birimo isogi, birimo inkakarubamba, byifashishwa mu kuvura, bivura uruheri bivura indwara zo ku mubiri.

Inkono n'ibibindi bazikora mu ibumba ziracuruzwa zikifashishwa mu guteka, bazitekamo ibijumba, bazitekamo umushogoro, bazitekamo ibishyimbo.

Ikigage ni ikinyobwa cyiza gikorwa mu masaka y'amamera, baragishigisha, bagashyiramo ubuki, barakinywa, bagikoresha mu bukwe, bagikoresha mu rugo, ni ikinyobwa cyiza cyane.

Ibiseke tubyifashisha, turi kuyja gusura inshuti zacu, tukabyifashisha turi kubikamo amasaka n'ibigori, bakanabikoresha mu mbyino za kinyarwanda babyikoreye, biba ibintu byiza cyane biba biryoheye amaso.

Kubyina ni byiza cyane, bisusurutsa ababireba, birabashimisha, gukoma ingoma nazo zivuza ababizi, bakoresha imirishyo mu kuzivuga, kwiyerekana ni ibyiza cyane.

Umuboshyi aba kumwe n'ibitero. Babiboha mu migano, ibindi babiboha mu masipuri. Babyifashisha mu kwikorera ibishyimbo, mu gutunda amase, mu gukura ibijumba, mu gutunda imyaka zlitandukanye.

Ibirago ni byiza cyane. Babibohesha ubusuna, mu cyaro, babiryaho, ibindi babibarisha bakabona amafaranga yo kubatunga, banabyanikaho imyaka itandukanye.

Ibishyimbo ni ibihingwa byiza cyane bigira vitamini nyinshi cyane, babirya ku mushogoro, basoroma intonore zazo bakazirya, barabirya nk'imiteja, barabigurisha bakabona amafaranga, kandi bakuragamo n'ibindi bazongera gutera.

Ababyinnyi babyina imbyino ya gakondo, izo murwanda babyinaga ha mbere bazita iza kinyarwanda, babyina neza cyane, kuko babyinaga mu birori byinshi bitandukanye, cyangwa no mu bukwe babatumiye bakaza kubyinira abageni, bakajya barabaha amafaranga.

Mu muco nyarwanda habamo ibintu byinshi. Bacuranga inanga, bavuza ingoma, babyina imishayayo, ari n'abagore bacuranga neza inanga banaririmba neza.

Inka z'inyambo zororerwa cyane cyane mu gice k'iburasirazuba, zifashishwa mu birori, zifashishwa mu kwiyereka, mbega ni umutako ubereye u Rwanda, kandi zinasurwa mu bukerarugendo.

Inka z'inyambo zigira amahembe manini maremare, habaho abatahira ni ba bagabo bavuga inka, bakavuga amazina yayo, mu imisango z'ubukwe bwa kinyarwanda cyangwa no mubindi birori bijyanye n'umuco nyarwanda.

Umuco nyarwanda banywa itabi, bakita ikijigo bashyiramo ibikamba bacanamo umuriro, itazi ryavamo baryita ubukozo, babwifashisha mu buvuzi gakondo.

Umuco nyarwanda bakoreshaga ibisabo bitatse, ibicuba, inkongoro. Bakabikoresha babibikamo amata, babyifashisha bayacunda n'ibindi.

Ibikoresho gakondo habamo inkiza, bazikoraga mu ruyuzi rwitwaga umwungu, habamo ibicuma, habamo ibibindi babumba mu ibumba habamo n'ibirago, inkoko ndetse n'intara.

Abacuzi bacura ibyuma bitandukanye, nk'amasuka n'amashoka n'inkonzo, n'iyo ishoka yabaye ntoya uyijyana ku mucuzi akayinagura ikongera ikaba shoka nini ukajya wasa ibiti nta kibazo.

Ibigega babyubakaga hanze mu rugo rwa kinyarwanda, byabaga bisakaje ibyatsi, bahunikagamo amasaka adahuye, babikagamo ibishyimbo n'indi myaka yabaga itandukanye.

Mu muco nyarwanda habamo ibintu byinshi: habamo ubudozi, habamo ububoshyi. Mu buboshyi habamo kuboha imitemeri, baboha ibiseke, baboha imigongo, baboha ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'umuco nyarwanda.

Ikigage kiva mu masaka. Barayinika, bagashyiramo itazi, akamera, bakayanika, bakayabetesha, bagashigishamo ikigage, kandi kiraryoha cyane.

Ubuhanzi burakataje cyane, hari abakora imitako, hari n'abakora ibibumbano, birehereza ba mukerarugendo kuza gusura igihugu cyacu, bakazana amafaranga y'amadovize.

Umuco nyarwanda wamenyekanisha u Rwanda mu bindi bihugu, kuko nka kera bogoshaga amasunzu, ndetse n'imyambarire y'Abanyarwanda ibagaragaza neza mu ruhando rw'ayandi mahanga.

Inyambo ni inka nziza, zifashishwaga mu muco nyarwanda, zororerwa cyane cyane mu burasirazuba zifashisha mu birori, mu myiyereko, zigaragaza umuco nyarwanda mu mahanga adukikije.

Mu buboshyi habamo ibintu bitandukanye, baboha ibirago bakora ibiseke bakora imitemeri, baboha imigongo baboha intara bagosoza ibishyimbo, baboha inkoko mu cyaro baziriraho.

Kubyina ni byiza cyane bishimisha ababireba ababyinnyi bagira ku buzima bwiza, kuko kubyina na byo ni siporo, babyina bikoreye uduseke, babyina neza cyane.

Mububoshyi babaha ibikoresho bitandukanye, babahamo ibyibo, babahamo ibiseke, batunganyirizamo imitako y'ubwoko butandukanye, yifashishwa mu mirimo itandukanye.

Iduka bacururizamo insinga z'amashanyarazi, n'ibindi bikoresho byose byifashishwa mu gutanga amashanyarazi, kandi bifite akamaro kenshi cyane, kamurikira abantu nijoro.

Ahantu bacururiza ibikoresho byifashishwa mu mashanyarazi, bacuruza insinga, bacuruza amapulize, bacuruza uduhombo tw'amashanyarazi, bacuruza n'amatara yo kumurika mu nzu.

Inyubako zitandukanye nk'amabanki bayabikamo amafaranga, amahoteli bayararamo, bayakoreramo ubukwe, amazu meza y'amaduka bayacururizamo, insengero bazisengeramo, bakazazikoreramo ubukwe.

Inyubako nk'izi zigezweho ziha abantu akazi benshi, hari abatunda imicanga, hari abikorera amasima, hari abatunda amatafari hari abaterura ibyuma, bagaha akazi kenshi cyane kinjiza amafaranga.

Amahoteri ni inyubako nziza cyane zigira ubusitani bunogeye amaso. Zakira inama zikomeye, zicumbikira ba mukerarugendo. Abakozi bakoramo bahembwa neza, ugasanga ubuzima buraryoshye cyane.

Amashanyarazi ni meza kuko barayacana, bayatekaho, bararamurika, bagacomekaho ibintu bitandukanye, bayifashisha mu gusudira, amashanyarazi afitiye igihugu akamaro kenshi cyane.

Inzu bakodesha bagakoreramo ubukwe, hari n'izindi bakoreramo inama, hari izo bakoreramo ibirori, abahanzi bidagaduriramo, kandi habaho ubusitani, banogeye amaso.

Inyubako nziza ziba zigeretse zikorerwagamo imirimo myinshi cyane bacururizamo, bakoreramo amabanki, banshyiramo amaresitora, hari naho bashyira amafarumasi acuruza imiti ivura abantu.

Inyubako za Leta zibamo amahoteri, habamo amaduka, habamo insengero basengeramo, (bahimbarizamo) imana, basezeraniramo, amahoteri nayo bayararamo, bakoreramo mo ubukwe bakiriramo na ba mukerarugendo.

Insengero zo mu Rwanda zigira akamaro kenshi cyane, zifasha abakirisitu kureka ibyaha, batura amaturo afasha abakozi b'Imana, bihaniramo, ariko hari n'abakoreramo ubukwe.

Izo nyubako zigezweho zikorerwamo ibintu byinshi, hari izifashishwa nk'ibiro by'uturere, ibiro by'imireng,e ibiro by'intara. Harimo izikorerwamo inama zitandukanye, nizo batuzamo abatishoboye.

Mu bikorwa remezo habamo ibintu byinshi, amasoko bacururizamo, imihanda bagendamo banyuzamo imodoka, bakoreramo amarushanwa y'amagare, bagendamo n'amamoto, hanyuramo abanyamaguru, kandi baranayikondora.

Ku rusengero tujya gusengayo, tukihana ibyaha byacu, tujya kubatizwa no gukomezwa, habayo pasiteri, habayo n'amakorari atandukanye, bakaririmba abakirisitu bajyayo bakishima bakanezerwa, batanga n'amaturo.

Mu bikorwaremezo haba mu nsengero, haza n' amahoteli, haza amasoko ya kijyambere, ariko habamo n' ibiraro byo mu kirere, byifashishwa mu guhahirana, bikurura ba mukerarugendo bakinjiza amafaranga mu gutunga abanyarwanda.

Haba amahoteri akomeye ba mukerarugendo baruhukiramo, bakoreramo amakwe, hari n' abaza gusengeramo, bakoreramo n' inama zungurana ibitekerezo kandi baruhukiramo.

Inzu batangiramo serivisi zinyuranye zitangwa n'irembo, habamo imashini zifotora impapuro, habamo n'udukoresho two kubikamo ibyangombwa.

Ibiraro byo mu kirere biri mu bikorwa remezo byiza cyane muri iyi minsi, binyurwaho n'abantu kugira ngo bihutishe ingendo zabo bikurura ba mukerarugendo, kandi bikoranwa ubuhanga bwinshi cyane.

Urusengero aho bajya gusengera, bakihana ibyaha byabo, bakagira amahoro mu mutima, haba hariyo pasiteri ni we ubatiza abakirisitu akanabakomeza bakava mu byaha byabo.

Za kaminuza zigisha ababa abarimu, zigisha abacunga umutekano, zirera baganga, zirera abacuruza b'umwuga, zirera abantu batandukanye.

Inyubako zo mu rwanda, harimo amahoteri, habamo ibiro bitandukanye, habamo insengero, zifasha abantu kuyoboka imana, kandi izo nyubako zose zinjiza amafaranga.

Inyubako z'amashuri ziba zitandukanye, hari izo bubaka zigeretse, harimo n'iziba zitageretse, abanyeshuri bigishwa imyuga itandukanye, biga icyongereza, biga indimi nyinshi zizabafasha.

Inyubako zikorerwamo akazi gatandukanye arizo bifashisha nk'ibiro by'abayobozi ku kagari. Gitifu yakiriramo abaturage bo ku murenge, basezeranyirizamo. Ku karere naho bafasha abaturage mu bibazo byabo.

Iyi nzu barayubaka bakayibamo cyangwa bakayikodesha, bakabaha amafaranga, bakanayigurisha bakabona amafaranga, bakajya kwiteza imbere bagakora indi mishinga itandukanye, iba nziza iyo imbere hariho n'ubusitani bwo kuruhukiramo no gutuma abantu bahumeka umwuka mwiza.

Kiliziya zo mu Rwanda zifitiye abakirisitu akamaro kenshi, zibigisha kwihana, zibafasha kuva mu byaha, abageni basezeraniramo, batanga amaturo menshi cyane.

Mu nyubako zitandukanye habamo inzu z'ubuyobozi, habamo insengero ,habamo amahoteri ariko habamo n'amazu y'abantu ku giti cyabo nk'ayo mazu bakodeshamo abantu andi bayabamo.

Inyubako zitandukanye harimo n'amabanki afasha kuzigama amafaranga, bigatuma arinda abantu ubujura bikabarinda gusesagura kandi n'abakoramo babona amafaranga yo kubatunga.

Amahoteri acumbikwagamo na ba mukerarugendo, akorerwamo inama mpuzamahanga, aberamo ibirori bitandukanye, ndetse n'abakozi bayakoramo babonamo agafaranga.

Inyubako z'ingenzi mu gihugu habamo aho basengera Imana, aho abayobozi bayoborera, aho bakorera inama, aho bacururiza, amabanki babikamo amafaranga n'izindi nzu z'ingenzi zitandukanye.

Insengero zifitiye abaturage akamaro kanini cyane, zibafasha kwihana, zituma bakundana, baherwamo amasakaramentu atandukanye, babatirizwamo, basezeraniramo, banaturiramo amaturo afasha igihugu.

Insengero zo mu Rwanda nyinshi zubaka ku buryo bujyanye n' igihe, hari izo basengeramo hari izo bakoreramo ubukwe, baturiramo, bahimbarizamo n' Imana.

Habaho inama zitandukanye, haba inteko z'umuturage, habamo inama ngishwanama, habamo inama zungurana ibitekerezo, zibamo abantu benshi b'abanyabwenge, batandukanye.

Mu nteko y'abaturage, abantu bahabwa umwanya batanga ibitekerezo, babaza ibibazo byabo bigakemurwa n'abayobozi, nta we upfukiranwa n'umwe.

Inzu bacururizamo ibiryo, bagurishirizamo icyayi n'imigatiti, abamotari nimwo barira, abanyonzi nimwo bafatira ibyo kurya, binjiza amafaranga.

Ibimodoka binini by'amakamyo na bya rukururana, bitwara imizigo iremereye bibikuye mu bihugu byo hanze, hari ibyambukiranya Uganda, hari ibiva Tanzania, hari ibiva Nairobi n'ibindi.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ujya ku muhanda ukayitega, igahagarara ikakujyana. Ukayiha amafaranga, ikakugeza aho ushaka kujya. N'iy'ufite imitwaro n'imizigo yawe irazijyana.

Imodoka zitwara imizigo zipakira ibirayi zibijyana ku isoko, zipakira ibicuruzwa, ziva kurangura mu mahanga, zipakira imizigo itandukanye, kandi zinjiriza bene zo amafaranga.

Imodoka zitwara abagenzi zibajyana ahantu hatandukanye, harimo izitwara abarwayi b'indembe, hari n'izikorera imyaka, hari izijyana abanyeshuri zibajyanye mu bigo byabo bigamo.

Amatagisi, a,akwasiteri, atwara abagenzi, atwara abanyeshuri abajyanye ku ishuri, akora mu makwe, hari n'atwara ibicuruzwa biciriritse.

Abanyeshuri iyo bavuye kwiga bategera imodoka muri gare zitandukanye. Hari abatega amatagisi, abandi bagenda n'amakwasiteri, ababura imodoka babacumbikira mu masitade. Ubuyobozi burabafasha cyane.

Imodoka na zo zifasha mu buhahirane n'itumanaho, zitwara abagenzi, zikorera iyo mizigo, zifasha abanyeshuri kugera ku bigo bigaho, zitwara abanyamahanga, ba mukerarugendo baza gusura pariki.

Gutwara moto bigira akamaro kenshi cyane kuri nyirayo, kuko bimwinjiriza amafaranga akayishyuriramo abana amafaranga y'ishuri, kandi atangamo na asiranse, kugira ngo izamugoboke yakoze impanuka.

Ubwato nabwo bukoreshwa mu biyaga, bwambutsa abantu, hambukamo imitwaro yabo, abajya guhinga hakurya y'amazi burabatwara, bubikorerrea imyaka baba basaruye.

Amagare ni ikinyabiziga cyifashishwala cyane cyane mu cyaro, bashiraho imisego, batwaraho abagenzi, batwaraho imizigo, bikorere abantu imitwaro, bika binjiriza amafaranga.

Ubwikorezi n'itumanaho mu Rwanda ,bifasha abantu: guharahirana ,bifasha abantu gusurana ,bifasha abantu gutembera ,bifasha abantu gutanga amakuru atandukanye, ndetse bifasha abantu no kumenya uduce dutandukanye tw'Igihugu.

Ibinyabiziga bito nk'amagare n'amamoto bikora akazi ko kwikorera imizigo, bitwara abantu bikabajyana iyo bagiye, babyifashisha mu gusurana, kandi ababitwara binjiriza amafaranga menshi.

Mu itumanaho n'ubwikorezi hari abakoresha amaguru, hari abagenda n'imodoka, hari abagenda n'indege, narabakoresha amagare, bagenda n'amaguru ubu bikorera imizigo zabo ku mutwe harimo imitwaro n'ibindi.

Mu guhahirana no kugendererana hifashishwamo indege, indege y'u Rwanda itanga serivisi nziza mu mahanga hose, ihabwa igihembo, abakoramo babona amafaranga, kandi igira gahunda nziza cyane.

Imodoka zagira akamaro akenshi. zitwara abagenzi, zikorera imizigo, zifasha abaturage mu gusurana, zitwara abanyeshuri, zitwara abantu batandukanye, zikora ibintu byinshi bitandukanye.

Abaturage bategera imodoka muri gare zitandukanye, hari abagenda n'amakwasiteri, hari abagenda mu modoka za shirumuteto, buri wese agera iyo agiye amahoro.

Habaho ibimodoka binini habamo byarukururane, amakamyo, habamo n'amatagisi yifashishwa mu gutwara abagenzi, amabisi yifashishwa mu itumanaho n'ubuhahirane.

Mu bwikorezi hakoreshwamo imodoka, amagare, amamoto, na za rifani zitunda imizigo y'abantu, zikorera ibirayi, zikorera imbaho, zijyananira abantu ibyuma, n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ubwato ni igikoresho babaza mu giti, bacyifashisha mu kwambuka mu mazi bavuganyisha ingashyi, bacyifashisha bari kuroba amafi azana amafaranga.

Gukina ni byiza cyane bifasha gukiza indwara z'imitsi, bitera ibyishimo, bikurura ubucuti, kandi binjiza n'amafaranga yo gutunga abakinnyi bakina.

Umukino wa tenis, utuma urwanda rumenyekana cyane, abazungu baza gukinira murwanda, abakinnyi babo bananura ingingo, kandi binjiza n'akayabo k'amafaranga ko kubafasha mu buzima bwabo.

Umukino wa tenisi ufite akamaro kenshi cyane, winjiriza abawukina amafaranga ubafasha kubona inshuti, ubafasha kujya hanze y'igihugu kandi n'abagore bitejeje imbere kubera uwo mukino.

Imikino ni myiza cyane, iya basikete bakina, iy'amabokoko bakina, iyo kwiruka ituma ubuzima buba bwiza, abayikina barishima babona amafaranga.

Isiganwa ry'amagare ni ryiza cyane, rishimisha abafana baryo, rinezeza abaritwara, babonamo n'amafaranga menshi yo kubafasha kwivana mu bukene baba barimo.

Gukina ni byiza cyane byinjiza amafaranga abakinnyi barishima, iyo batsinze bahabwa igikombe kandi birema ubucuti hagati yabo n'andi makipe.

Abafana umupira w'amaguru baba bishimye, iyo bari muri sitade amakipe ya bo yakinnye, baba biteye amarangi asa n'ibara ry'ibendera rya buri kipe, kandi bibarinda siterese.

Imikino igira akamaro kenshi cyane, abakina bagubwa neza m'umubiri, binjiza amafaranga menshi ko kwitunga, abakina bagira inshuti nyinshi cyane bakura mu mikino.

Isiganwa ry'amagare rituma abanyamahanga baza kurikora bamenya u Rwanda. Ryinjiza amafaranga menshi, abakinnyi barishima bagasusuruka hamwe n'abafana babo.

Gukina byiza cyane kandi hari imikino itandukanye: hari imikino y'amaboko, hari abakina iz'amaguru, hari abasiganwa ku magare, hari abakina bari kwiruka, ariko byose bibafasha kugubwa neza mu mubiri.

Iyo umupira w'amaguru wabereye muri sitade, abafana baba bishimiye, abakinnyi na bo bishimiye. Hari amakipe atwara igikombe, hari n'atsindwa. Ariko n'Abanyarwanda muri rusange baba bishimye.

Abakinnyi bakina mu ikipe y'umupira w'amaguru, bajya mu kibuga hariho n'iyindi kipe bigakina, itsinze barayihemba, baba bafite n'abafana, n'umuntu ubatoza, batsinda bakabahagigikombe.

Umukino wa vole bolo nawo umaze gutera imbere, ukinwa n'abakobwa, abagabo nabo barawukina, abanyeshuri barawukunda bakina bari guherezanya, kandi iyo batsinze barishima cyane.

Iyi mikino basiganwa bakaba bari kwiruka, ni myiza cyane, hari abasiganwa kirometero, hari abirukanka metero magana tanu, ariko zose zibafasha kuba amaraso atembera neza mu mubiri, zibinjiriza n'amafaranga.

Imikino ni myiza cyane ituma u Rwanda rumenyekana mu ruhando mpuzamahanga. Abakina ibinjiriza amafaranga, bagira n'ubuzima bwiza biteza n'imbere.

Umukino wa tenisi ni mwiza cyane, winjiriza abawukina amafaranga, utuma u Rwanda rumenyekana mu mahanga adukikije, utuma bagira inshuti kandi bakagubwa neza mu mibiri yabo.

Isiganwa ry'amagare rihesha Abanyarwanda ibintu byinshi, dusiganwa n'abanyamahanga bakazana amadavize, isiganwa ry'Abanyarwanda rishimisha abafana barireba rifitiye akamaro kanini Igihugu cyacu.

Imikino igira akamaro gatandukanye, abakina babonamo amafaranga, abakina kandi bafasha kugubwa neza, abakina babonaga inshuti zitandukanye mu mikino kandi imikino ifasha n'abafana kwishimisha.

Imikino yo mu Rwanda ifite akamaro kenshi kuko iteza imbere abakinnyi. Noneho abana b'abakobwa na bo biteza imbere ku rwego rwo hejuru, kuko bakorera mu buringanire, bakorera hamwe mu bwuzuzanye hagati yabo na basaza babo.

Umukino wa tenisi ugira akamaro kenshi cyane, winjiriza abawukina amafaranga, ubafasha gusabana n'inshuti, ayo mafaranga bavanamo bayakoresha ibikorwa byabo bitandukanye.

Abakinnyi bari gukina, umukino bita basikete, bakina bari gucengana, aba ar'amakipe abiri hariho n'umusifuzi, haza n'abafana baje gufana, ikipe itsinze barayihemba, bakayiha igikombe bakishima.

Isiganwa ry'amagare rituma abanyamahanga benshi baza mu rwanda, isiganwa ry'amagare ryinjiriza nk' abanyarwanda basigarana amafaranga kandi rishimisha n'abanyarwanda barikina, kandi rigashimisha n'abafana barireba.

Imikino ni myiza cyane ku mubiri w'umuntu, ituma uyikina atagira uburwayi bwa buri kanya, hari imikino yitwa voreboro, hari iyobakina yo ku mucanga, hari iyitwa basiketiboro, hari n'iyitwa futuboro, ikunze gukinwa n'abagabo gusa.

Abantu bari koga mu mazi y'ingezi, ingezi nziza cyane zibamo amafi, n'abantu bazogamo zigatuma bamererwa neza, bakaruhuka mu mutwe siteresi zikagabanuka.

Abantu bakina bagira ku buzima bwiza. Imikino igagabanya siteresi, imikino yinjiza amafaranga, bityo igatuma bakundana n'abandi, imikino iba myiza k'umubiri w'umuntu.

Abafite ubumuga butandukanye na bo bafashwa guteza imbere imikino bakina imipira y'amaguru, bakina imipira y'amaboko, bakina imikino itandukanye na bo bakishima.

Abakobwa na bo bamaze gutera imbere ku bijyanye n'imikino n'imyidagaduro. Bakina umupira w'amaguru, bakina umupira wa tenisi, bakina gutera imivunda, bakina urukiramende.

Kaburimbo ni umuhanda ukoreshwa n'abagenzi bagenda n'amaguru, ukoreshwa n'abagenda n'imodoka, inyuramo amamoto, inyuramo amagare, inyuramo abanyamaguru, inyuramo n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Imihanda ya kaburimbo igirirwa amasuku barayikubura, bakabagara ibyatsi biba biri mu mpande yabyo, yifashishwamo moto hanyuzwamo imodoka haba hagendwamo n'abanyamaguru.

Imihanda yo mu midugudu nayo ikorerwa isuku barayikubura bayiteraho indabo, kuko igendamo amagare yikoreye imizigo hanyuramo amamoto atwaye abantu, bityo ubuzima bukagenda neza.

Umudugudu ntangarugero habamo imihanda itandukanye. Abagira imodoka bazinyuzamo, abagenda n'amaguru na bwo banyuramo, kandi banyuzamo ibintu bitandukanye baba bafite ibyo ari byo byose, igihe icyo ari cyo cyose.